Iyi ni inyubako iri mu bwoko bw'inzuziteretse, hanze hari imitaka yicaramo abantu bavuye muri pisine, hari ibyatsi ndetse hari n'indabo.